Ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, biri muri bimwe mu bikorerwa mu mazu y'ubucuruzi, azwi nk'amabare ndetse bikaba bibafasha kuba bakwiteza imbere.

Inzu zitangirwamo serivisi z'imyidagaduro, akenshi zizwi ku mazina y'amabara. Aho usanga badatanga izi serivisi z'imyidagaduro gusa, ahubwo banatanga ibicuruzwa birimo nk'ibyo kurya, ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Amazu acuruza ibyo kurya ndetse n'ibiribwa bisembuye n'ibidasembuye azwi ku izina ry'amabara . Akenshi acururizwamo ibiryo bidakunda gutekwa mu ngo z'abantu nk'ibitoki binyujije mu mavuta ndetse n'ibindi biba bifite udushya. Bibafasha kwinjiza amafaranga aho urujya n'uruza rw'abantu rukururwa n'uburyohe bw'ibyo biryo.

Ibicuruzwa birimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, biri muri bimwe mu bicuruzwa bitangirwa mu mazu y'ubucuruzi azwi ku mazina y'amabara afasha abantu mu myidagaduro.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bikorerwa ahitwa mu mabara, aho usanga abantu bajyayo bagiye kwishimisha, gusangira n'inshuti, ndetse no kuba baruhura mu mutwe nyuma y'akazi.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi ndetse zikanatangirwamo serivisi zo kwakira abantu zizwi ku mazina y'amabara, ziri mu nzu zifasha igihugu gutera imbere kuko usanga aho zikorera zihasorera, ndetse n'ibicuruzwa zikoresha bisora.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibyobwa bisembuye, ndetse n'ibidasembuye zizwi nk'amabara. Ariko zikaba zitanga n'izindi serivisi z'imyidagaduro, aho habaho umwanya wo kubyina ari byo byitwa utubyiniro.

Inyama ziba ziri ku biti by' imishito zizwi nka burushete, cyangwa se mushikaki akenshi zicururizwa mu mabara, aho usanga zijyana akenshi n' ibinyobwa, ibisindisha n' ibidasindisha, zikaba zifasha ba nyiri mabara kwinjiza amafaranga kuko zizwiho uburyohe.

Amabara, bimwe mu bigo by'ubucuruzi cyangwa se mu nzu z'ubucuruzi bitangirwamo ubucuruzi, ndetse na serivisi z'ibiribwa, aho usanga bashobora gutanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Bimwe mu bikoresho bisimbura ibyangiritse ku binyabiziga runaka, biri muri bimwe mu bikoresho ndetse n'ibicuruzwa dusanga mu mazu yagenewe ubucuruzi azwi nka mabotiki, aho bifasha ubikora, ubicuruza ndetse n'ubigura bose kuba batera imbere mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'inkoko ndetse no gucuruza bimwe mu bizikomokaho nk'inyama n'amagi akenshi bifasha umwana mu gukura neza ndetse n'umuntu mukuru bikamufasha kugira ubuzima bwiza bifatwa akenshi nk'akazi k'abantu batize cyangwa baciriritse mu by'ukuri kandi ari akazi cyangwa umurimo utanga amafaranga menshi.

Ubucuruzi bw'ibintu n'ibindi, gucuruza serivisi ndetse n'ibindi bicuruzwa akenshi bikorerwa mu isoko twita nk'aho ari isoko rinini rya Musanze ryitwa GOICO PLAZA. Iri soko rero rikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye, bifasha abantu mu mibereho myiza, kandi bakabisanga hafi ndetse ahantu hafite isuku.

Ibicuruzwa biva ku bikomoka ku ifarini biri muri bimwe mu bifasha abantu babikora nk'umwuga buri munsi kuba bakwiteza imbere, aho usanga ibi bicuruzwa biri mu bikundwa cyane nk'iyo abantu bafite ubunebwe bwo gukora ikintu runaka cyangwa bwo gutegura amafunguro akaba aribyo bakoresha cyangwa se akenshi bigafatwa n'abantu benshi amafunguro ya mu gitondo.

Amazu atangirwamo ibicuruzwa, ndetse na serivise zitandukanye, ntabwo atangirwamo ibyo kurya gusa, ahubwo atangirwamo n'imyambaro, aho usanga bacuruza imyambaro itandukanye, yaba iyi gitsina gore ndetse ni iyi gitsina gabo.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bihiye ndetse n'ibinyobwa. Haba ibisembuye cyangwa ibidasembuye. Ziri mu bwoko bw'amabutike, ariko zikaba zifite umwihariko wo kwitwa amabara. Bitewe n'uko zitanga ibicuruzwa bitandukanye, n'iby'izindi nzu z'ubucuruzi zitanga.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bikoresha amashanyarazi, buri muri bimwe bifasha ababukora kwiteza imbere, ndetse no guteza imbere igihugu cyabo. Aho usanga ababukora basora, kandi imisoro ifasha mu iyubakwa ry'ibikorwaremezo bitandukanye mu gihugu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Ibicuruzwa by'ubwiza akenshi usanga bikoreshwa n'igitsina gore, nk'amaherena. Ibi ni bimwe mu bicuruzwa bitangirwa mu mazu y'ubucuruzi azwi ku izina ry'amabutike.

Inzu zicuruza ibiribwa bihiye ndetse n'ibinyobwa, ibisembuye n'ibidasembuye, akenshi zizwiho no gutanga amacumbi ku bantu nka ba mukerarugendo, cyangwa se abasuye agace runaka bashaka kuruhukiramo.

Inganda zitunganya ibinyobwa bisembuye, ziri muri bimwe cyangwa se amwe mu mazu afatwa nk'amazu y'ubucuruzi, kuko babikora babiranguza bityo bikabafasha kuba bakwinjiza amafaranga.

Amazu acururizwamo serivise ndetse n'ibicuruzwa nk'ibyo kurya, ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, biri muri bimwe mu bitangirwa mu mazu y'ubucuruzi twakwita amabotike.

Amazu atangirwamo n'ibicuruzwa bitandukanye ndetse na serivisi zitandukanye. Ni amwe mu mazu afasha abaturage kuba babona ibicuruzwa bakeneye bitabasabye kuba bata umutwe, cyangwa se kuba basiragira mu ngendo ndende, kandi ibicuruzwa bibegereye.

Inzu zitangirwamo ubucuruzi na serivisi zitandukanye, aho usanga inzu imwe ikorerwamo ubucuruzi bw'imyambaro y'imyenda n'inkweto, ndetse ikagira n'umwihariko wo kuba itanga serivisi zitandukanye nk'iz'amabanki.

Amazu akorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye . Ari muri bimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere ndetse bakaba bateza n'igihugu cyabo imbere.

Amahoteri ni amwe mu nzu z'ubucuruzi atanga serivisi ndetse n'ibicuruzwa, nk'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa ibisembuye cyangwa se ibidasembuye, biri mu bifasha ba nyiri mahoteri ndetse n'abayagana kugubwa neza, ndetse no gutera imbere.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi na serivise zitandukanye zihabwa abantu, harimo n'izitanga ibiribwa, ibinyobwa bisembuye, ndetse n'ibidasembuye, ndetse zikaba zigira n'umwihariko wo gutanga amacumbi, afasha abantu kuruhuka neza mu mutwe.

Amazu akorerwamo ubucuruzi ,ntabwo yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'imyambaro ibiribwa ibinyobwa gusa hari aho usanga akorerwamo ibicuruzwa by'ubwiza, ndetse n'imitako bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere.

Ibikoresho bikonjesha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bibirinda kuba bya kwangirika biri muri bimwe dusanga mu nzu zikorerwamo ubucuruzi zizwi nk'amabutike.

Ubucuruzi bwa serivisi ndetse n'ibicuruzwa bikoresha amashanyarazi ndetse n'ikoranabuhanga bigezweho biri muri bimwe mu bicuruzwa bitangirwa mu nzu zagenewe ubucuruzi, zizwi ku izina rya butiki.

Bimwe mu myambaro ndetse n'ibikoresho bikoresha amashanyarazi ndetse n'ibifasha gusigasira ibikoresho bikoresha amashanyarazi, biri muri bimwe mu bitangirwa mu nzu zikorerwamo ubucuruzi aho usanga nabyo biri muri bimwe mu bicuruzwa bihatangirwa.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, zizwi ku mazina y'amabutiki, aho usanga hatangirwamo ibicuruzwa ndetse na serivisi nk'iz'ubwiza, gukora inzara, gukora imisatsi y'abadamu, ndetse n'ibindi.

Inzu zitangirwamo serivisi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, zizwi ku izina rya politiki. Aho usanga hatangirwamo serivisi zo gufotora amafoto ashyirwa ku byangombwa, cyangwa se gutanga ibyangombwa bikenewe muri leta n'ibyangombwa by'ubutaka, ibyemezo by'amavuko, ndetse n'ibindi.

Imitsima yo mu buryo bwa kizingu, cyangwa se mu buryo bugezweho ni bimwe mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere, aho usanga bakora imitsima ikoreshwa mu birori bitandukanye, nk'ibyo mu isabukuru ndetse n'ubukwe.

Imineke, inanasi, amalonji, ni bimwe mu mbuto zicururizwa mu mazu yagenewe ubucuruzi, cyangwa se akorerwamo ubucuruzi, azwi ku izina rya butiki.

Zimwe mu nzu zitanga ibicuruzwa na serivisi bitandukanye, habamo n'inzu z'amabara zitanga ibyo kurya ,ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, akarusho bikaba binatanga serivisi zo kuruhuka, nk'ibyumba byo kuraramo.

Amakoperative y'abibumbiye hamwe bagashaka umwuga bakora, bari muri bamwe bafasha amazu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi kubona icya akorerwamo, aho usanga bamwe baribumbiye hamwe bagakora nka koperative yo kudoda imyambaro ndetse n'ibindi.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi zizwi ku mazina y'amabutiki. Ni inzu zigomba gushyirwa ahantu byoroheye umuguzi kuba yahagera. Ndetse n'umushoramari kuba yahagera, aho akenshi zikundwa gushyirwa ahantu hari kaburimbo, aho bifasha abantu kuba bazigeraho neza. Bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Amarangi, aho tuzi ko ari igikoresho gifasha kuba cyaterwa inzu igasa neza. Rero ni kimwe mu gicuruzwa gitangirwa mu nzu z'ubucuruzi, zizwi ku izina ry'amabutike.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi, ni zimwe muzifashishwa cyangwa se mu zifasha abazikorera mo kuba bakwiteza imbere, aho usanga biba bizwi ko inzu runaka icuruza ibicuruzwa runaka.

Ubucuruzi bukorerwa mu mazu azwi nk'amabotiki, buri muri bimwe mu bifasha abantu babukora kwiteza imbere, ndetse bikanafasha igihugu gutera imbere, kuko usanga ababukora basora.

Umusaruro w'ibikomoka ku matungo nk'amagi, ndetse n'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi nk'mineke, biri muri bimwe mu bicuruzwa bitangirwa muri butike, aho usanga ababicuruza bibafasha gutera imbere, ndetse bigafasha n'abaguzi kuba babibona bitabagoye.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ibyorya ndetse n'ibyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye, ziri muri zimwe mu nzu zigomba kuba zubatse ahantu heza hafasha abaguzi kuba bahagera neza, mu buryo bwo kwiteza imbere.

Amakusanyirizo y'ibirayi aho abahinzi akenshi bazana umusaruro wabo bakawukusanyiriza hamwe, hanyuma bagashyiraho igiciro runaka bagomba kugurishaho wa musaruro wabo.

Inzu icuruza serivise z'ikoranabuhanga, n'itumanaho izwi ku izina rya mtn, aho ifasha abantu, kuba bavugana nabandi, mu buryo bworoshye, kandi batari ahantu hamwe.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bihiye, harimo nk'imigati ndetse n'ibiryo bisanzwe bihiye, biri mu bifasha ababukora kwiteza imbere, aho usanga bafite bizinesi zizwi n'igihugu kandi basorera.

Amazu akorerwa ubucuruzi akenshi yitwa Butiki cyangwa se Butike, aho usanga ashobora gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye imyambaro, ibiribwa, ibinyobwa ndetse na serivisi zitandukanye.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ndetse n'ubucuruzi bw'ibiribwa bihiye, ni bimwe mu bikorerwa mu tubari, cyangwa se mu nzu zizwi nk'amabara.

Inzu z' ubucuruzi zizwi ku mazina y' amabutike, aho usanga harimo ibicuruzwa bitandukanye bidahuriye ku kintu kimwe, aho bifasha nyiri kubicuruza kuba byagera ku bakiriya be bitabagoye.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu ndetse na serivisi zitandukanye ziri muri bimwe mu bifasha umuturage kubona serivisi ashaka cyangwa igicuruzwa runaka ashaka, bimworoheye, bitamusabye kuba yakwigerera ku ruganda.

Imyambaro, imyenda cyangwa se inkweto, biri muri bimwe mu bicuruzwa bicururizwaga mu mazu yagenewe ubucuruzi, aho usanga bikora, bifasha igihugu kuba cyakwiteza imbere, aho usanga ababikora babisorera bityo imisoro igafasha igihugu mu kuba cyakubaka ibikorwaremezo bigiriraga umuturage akamaro.

Amaturo ndetse n'ubundi bushobozi bukusanyirizwa mu madini ndetse n'amatorero, biri muri bimwe bifasha igihugu ndetse n'abana b'u Rwanda kuba batera imbere aho usanga itorero rishobora kwikusanya rikubaka nk'ikigo cy'amashuri gishobora gufasha abana bu Rwanda kwiga neza.

Ihuriro ry'abantu bishyize hamwe bagakora koperative y'ubuhinzi. Biri muri bimwe mu bifasha abantu kuba babona uburyo bwo kwita ku bihingwa byabo, mu buryo buhagije. Aho bashobora kugira ubushobozi bwo kugura amafumbire ndetse n'ibindi. Bityo bigafasha ibihingwa byabo kuba byakura neza bakiteza imbere.

Mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse no kwiga kuzigama, habaho inzu zifasha abantu kuba bakwizigamira mu buryo bwo kwirinda gusesagura, izo nzu zikaba zizwi ku mazina ya banki.

Amahoteli ni amazu azwiho gutanga serivisi n'ibicuruzwa bitandukanye .Aho hatangirwa amafunguro ibinyobwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye . Akarusho hakanatangirwa serivisi zo kuba batanga ibyumba bikorerwamo inama ndetse n'amacumbi yo kuraramo.

Amazu akorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa, ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ndetse n'ibindi. Azwiho no gutanga serivisi nk'izo kuruhuka, aho bafasha uwavuganye kuruhuka neza mu mutwe, bikamufasha kuba yakora akazi ke gakurikiyeho neza, ndetse n'ibindi.

Amazu acuruza serivisi zo gucumbikira abantu. Ndetse akaba anatanga bimwe mu bicuruzwa byo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, haba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Ari muri bimwe mu bifasha igihugu gutera imbere. Kuko usanga atanga umusoro ufasha igihugu mu gukoresha ibikorwaremezo.

Ubucuruzi bwa serivise ni kimwe muri bimwe bikorerwa mu mahoteri, aho uhasanga serivise zo kwakira abantu babakiriza icyo kunywa gisembuye, cyangwa se ikidasembuye n'ibyo kurya.

Amahoteli ni inzu zitangirwamo serivisi z'ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ndetse hakanatangirwamo serivisi z'ibyo kurya, aho usanga na none hatangirwamo serivisi zo gutanga amacumbi, aho usanga abantu bashobora kuharuhukira.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo inyanya, tungurusumu ndetse na puwavuro, bimwe mu bifasha ababikora kuba babaho neza kuko bibinjiriza amafaranga, nabo bagasora ku rwego rw'Igihugu, n'Igihugu kigatera imbere.

Ibicuruzwa byiganjemo imboga, urusenda, ibihaza ndetse n'ubunyobwa, aho bisangwa mu masoko atandukanye hano mu Karere ka Musanze, aho bamwe mu babicuruza bibafasha kwiteza imbere, ndetse muri gahunda yo gusagurira amasoko ndetse no kwisigira mu rugo, bikabafasha kubaho neza nabo babikoresha.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa ndetse na serivisi zitandukanye, aho usanga akenshi ubucuruzi bw'imyenda bukorerwa mu masoko yashyizweho na leta, kugira ngo bigabanye akajagari mu migi.

Amasoko agezweho ya kijyambere, aho umuntu ajya kugura igicuruzwa akakikurira aho kiri, aho kimanitse ku bitanda, baba barabikoreye ibicuruzwa, abonaho igiciro bidasaba kugenda guciririkanwa, ubu ni uburyo bwiza bufasha mu kugura no kugurisha ibicuruzwa byihuse, kandi bidateye amakimbirane.

Igikoresho gifasha abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bikoresha amashanyarazi kuba cyabinjiriza amashanyarazi mu materefoni yabo. Ni kimwe mu bikoresho dusanga mu nzu z'ubucuruzi.

Amasoko ya kijyambere ari muri bumwe mu byatejwe imbere mu rwanda, aho usanga haratandukanyijwe kuba hacuruzwa ibiribwa ndetse n'imyambaro, mu isoko rimwe aho usanga byaratandukanyijwe mu buryo bwo kugabanya akavuyo ndetse no kwirinda umwanda.

Ubucuruzi buhuriye hamwe, akenshi bukorerwa ahitwa mu masoko. Ni ubucuruzi bufasha abantu bashaka ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, kuba babibonera ahantu hasa n'ahegeranye, ndetse ku giciro cyashyizweho cyemejwe na leta.

Ishyirwa mu bikorwa ry'amasoko, ni bimwe mu bintu bifasha abantu kuba bageza ibicuruzwa byabo ahantu bigomba gucururizwa, kandi n'umutekano wabyo wizewe.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bikoreshwa ku meza nk'ibyuma , ibikombe , amasahani ndetse n'ibindi. Biri muri bimwe mu bikoresho dusanga mu masoko.

Ubucuruzi bw'inkweto, buri muri bimwe dusanga mu bicuruzwa bicururizwa mu masoko, aho usanga ababukora bavuga ko bubafasha kwiteza imbere, ndetse bagateza n'igihugu cyabo imbere basora.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya , ibyo kwambara , imitako y'ubwiza ku bagore ndetse n'ibindi . Ni bimwe mu bisangwa mu masoko , aho usanga abantu barihurije hamwe bakabasha kuba babicuruza ndetse ku giciro cyumvikanyweho , cyangwa cyashyizweho na Leta.

Kwibumbira hamwe cyangwa se gushyira ubucuruzi bw'ibiribwa, cyangwa se ibindi bicuruzwa mu cyanya cyahariwe ubucuruzi kizwi nk'isoko, biri muri bimwe mu bigabanya akajagari, ndetse n'akavuyo, ndetse n'ubujura mu mijyi ndetse no mu bacuruzi.

Amazi ni ingenzi mu buzima. Bityo rero, ubucuruzi bw’amazi meza yo kunywa ni kimwe mu byatejwe imbere, kandi ni kimwe mu gicuruzwa cy’ikinyobwa kigomba gucuruzwa, bigaragaza ko gifite ikirangantego cy’ubuziranenge cy’igihugu.

Ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'imyambaro, bimwe mu bikorwa n'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda, bibafasha mu kwinjiza amafaranga ndetse no mu mibereho yabo isanzwe ya buri munsi.

Umusaruro w'inyanya uri muri bimwe mu bifasha abantu bakora ubuhinzi bw'inyanya kuba bakwiteza imbere, kuko umusaruro w'inyanya ushobora gukorwamo n'ibindi bintu nk'imitobe inywebwa ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi bw'inkweto ndetse n'izindi serivisi zitangirwa mu masoko, buri muri bimwe bifasha ababikora kwiteza imbere, bityo bikaba byateza n'igihugu imbere, mu buryo bwo kwagura imikoranire n'ibindi bihugu.

Umusaruro w'ibikomoka ku matungo cyane cyane ibikomoka ku matungo yororerwa mu rugo cyangwa se amatungo magufi nk'inkoko, harimo amagi. Amagi akaba afasha abayakoresha ndetse n'aborozi b'inkoko kuba bakwiteza imbere mu gihe bayacuruje.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu bworozi bw'inkoko, harimo n'ibibuti bifatwa nk'aho zicumbika cyangwa se aho ziba. Bikaba bifasha kwirinda udukoko tumwe na tumwe, dushobora kuzangiza bivuye ku mwanda.

Amasoko y'ibiribwa ari muri bimwe byashyizwemo imbaraga, kugira ngo ibiribwa bijye bisangwa ahantu hizewe, ndetse habashe no kuba hashyirwaho igiciro k'igicuruzwa runaka kiboneye ku bantu bose.

Ishyirwa mu bikorwa ryo guhuriza, abantu hamwe n'icyitwa nk'amasoko bakajya bacururiza ahantu hamwe, biri muri bimwe mu byaciye akajagari, mu mijyi ndetse no kuba bagabanya akajagari mu biciro, aho usanga ibintu biri ku masoko byumvikanwaho, ko bagomba gucururiza ku giciro runaka.